Umugabo wambaye umupira w'umukara arimo aragenda mu kirongozi, areba hakurya ku bwinjiriro bw'ikigo cy'amashuri.

Inzu ndende y'umuturirwa, yubatse mu kibanza cyiza, kinini, hafi yayo hari igiti, ni inzu ifite ibirahure by'umukara, isize amarangi y'umuhondo, iyi nzu iragaragaza uburezi buteye imbere.